Icyumba cyicawemo abantu, abakobwa n'abasore ndetse n'abagabo n'abamama, barasa naho bari mu mishyikirano.

Icyumba kicayemo abantu batandukanye, imbere yabo hari ibyo kunywa barasa naho bari mu nama.

Abantu bicaye bafite imbere yabo ibyo kunywa ndetse bafite n'udukayi barimo kwandikamo, birasa n'aho bari mu nama bungurana ibitekerezo.

Abantu bicaye muri abo bantu harimo abambaye imyenda ya dasso, hari kandi n'umugabo umwe wambaye imyenda ya gisirikare. Birasa n'aho bari mumishyikirano, imbere yabo hari ibyo kunywa.

Abategarugori bambaye imyenda y'imbyino gakondo baragaragara nk'aho bari kubyina, ibi bifasha abantu gususuruka mu gihe bategereje igikorwa runaka.

Umuntu yambaye nk'abakurambere b'igihugu cyacu, ibi bidufasha kumenya umuco wacu nyarwanda bikadufasha kuba twawusigasira kugira ngo utazangirika.

Abantu babiri barimo barakina umukino, umukino ubafasha kuruhuka mu mutwe, gusabana hagati yabo, kwiyumvanamo hagati yabo ndetse no gukomezanya ubucuti.

Abategarugori bambaye imyenda y'imbyino gakondo, barasa naho bari kubyina imbyino za gakondo, ibi bifasha abantu gususuruka mu gihe bategereje igikorwa runaka.

Abantu bambaye imyenda y'imbyino gakondo, imbere hari abafite imirishyo bakoma ingoma inyuma yabo kandi hari n'abandi biragaragara ko bari kuririmba.

Abagabo bambaye imyenda ya gakondo ndetse bafite n'inkoni mu biganza byabo, kandi ibi biragaragaza ko bari kwizihiza ikintu runaka.

Abantu b'ingeri zitandukanye, muri aba bantu hari abambaye imyenda y'imbyino gakondo, imbere yabo kandi hari umutegarugori, arasa naho ari kubyina, aba bantu bose barasa naho bari kwizihiza umunsi mukuru.

Abategarugori bambaye imyenda y'imbyino gakondo, bambaye imikenyero ndetse n'udupira tw'umweru kandi barasa n'aho bari gukoma amashyi, ibi bifasha abantu gususuruka mu gihe bategereje ku hakorwa igikorwa runaka.

Abari n'abategarugori bambaye imyenda y'umuco nyarwanda, iyi myenda bayambara mu birori byinshi bitandukanye harimo nk'ubukwe, iyi myenda kandi ifasha abayambaye kugaragara neza.

Icyumba cyicayemo abategarugori bambaye imyenda y'umuco nyarwanda muri iki cyumba harimo igitanda ndetse n'amarido, ibi bigaragaza umuco wacyo w'u Rwanda.

Umutegarugori wambaye imyenda y'imbyino gakondo, yambaye imikenyero y'umweru na gasengeri k'umweru biragaragara ko ari kubyina imbyino gakondo, ibi bifasha abantu gususuruka.

Umutegarugori yambaye imyenda y'imbyino gakondo birasa naho ari kubyina. Ibi bidufasha gususuruka igihe abantu bicaye ahantu runaka.

Abantu bambaye imyenda y'imbyino gakondo, bafite ingoma hari umuntu uri kuvuza ingoma. Ahantu bari inyuma yabo hari urutoki rwinshi, birasa naho bari mu myitozo y'imbyino gakondo.

Abantu bambaye impuzankano, bahagaze ku byuma, ibi byuma byifashishwa kugira ngo bakwirakwize, umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Abantu bahagaze ku nyubako hejuru barasa n'aho bari gushyira umurasire w'izuba kuri iyi nyubako, iyi inyubako kandi ikikijwe n'ibiti, hafi y'iy'inyubako, hari ikiyaga cy'amazi.

Ibyuma byinshi biriho n'insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ahantu henshi hatandukanye. Ibi byuma bifasha vuba gukwirakwiza neza ahantu amashanyarazi mu buryo bwihuse.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe ahagaze hejuru ku ipoto, arasa n'aho ari kumanika insinga, iri poto kandi ririho n'izindi nsinga zigiye mu nce zitandukanye, izi nsinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu gihe cyihuse.

Abantu bambaye imyenda yabugenewe buriye ibyuma byifashishwa mu gikorwa cyo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu nce zitandukanye.

Abantu bambaye imyenda yabugenewe amajire, ubupfukamunwa ndetse n'ingofero. Ahantu bari kandi hari ibyuma byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu bice bigiye bitandukanye.

Ku muhanda hari inyubako, hari icyuma kiriho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu nshe nyinshi zitandukanye, kuri uwo muhanda hari amatara yifashishwa ku kubonekesha urumuri mu masaha ya nimugoroba kugira abantu babone uko batambuka ndetse n'ibinyabiziga.

Ibiti birebire cyane byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice byinshi bitandukanye, ahari ibyo biti hagaragara ko hari n'amakoma y'urutoki.

Inzu irimo amamashini, bakoresha badoda imyenda, amamashini atandukanye, asanzwe n,akoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, hicayemo umumama, ari kudoda imyenda, hari amashusho agaragaza uburyo butandukanye bwo kudodamo imyenda.

Umuntu wburiye hejuru ku ipoto, iryo poto hariho insinga zigiye mu bice bitandukanye, izi nsinga zifashishwa gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, kandi hasi hari undi muntu ari kureba iby'uri ku ipoto arimo arakora.

Ibyuma byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ibi byuma biriho insinga zigiye ahantu hatandukanye, aha kandi hari n'inyubako nyinshi zisa, kuri izi nyubako hari uruzitiro rw'indabo.

Ahantu hari ibikoresho byinshi by'amoko atandukanye, byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu nce zitandukanye aha ziri kandi ku mpande yaho hari imirima irimo ibyatsi.

Ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga. Ibi byuma byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu nce zigiye zitandukanye.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe, ahagaze hejuru ku ipoto. Iri poto ririho insinga nyinshi zigiye mu nshe zitandukanye. Zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye ndetse n'ahantu hakorerwa ibikorwa bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Ibyuma byinshi bifite n'insinga, ibi byuma byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu bice byinshi bitandukanye.

Ibyuma byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, hirya y'ibyo byuma haragaragara imisozi irimo amashyamba.

Inzu ndende irimo ibyumba bigiye bitandukanye, aha kandi harimo ubusitani bw'umucaca hari umuhanda ugiye kuri iyi nzu kandi hari n'umuntu uhahagaze.

Inyubako ikikijwe n'ibiti byinshi, imbere yaho hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'indabo, kuri iyi nyubako hari ikigega gifata amazi y'imvura.

Inyubako iteye irangi ry'ubururu ndetse isakaje amabati y'ubururu. Handitsweho amagambo avuga ngo gira ubuzima. Hari abantu bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bambaye n'udupfukamunwa. Barasa naho bari kwizihiza igikorwa runaka. Imbere yabo hari umuntu urimo kubafotora.

Abantu bahagaze ku kiraro munsi y'icyo kiraro hari kunyuramo amazi menshi, imbere y'abo bantu hahagaze umupolisi, bose bambaye ubupfukamunwa.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka itwara abagenzi ndetse harimo n'abantu, muri abo bantu harimo umwe urimo kugenda, hirya y'uwo muhanda hari inyubako zitandukanye bisa n'aho zikorerwamo ibikorwa by'iterambere, hirya y'izo nyubako kandi haragaragaramo imirima irimo ibiti.

Igipangu cyubakishijwe n'amatafari ahiye, hari abana bahagaze bambaye impuzankano, barasa nk'aho ari abanyeshuri.

Ikiraro cyubatswe n'amabuye. Kuri icyo kiraro hari utwuma turinda abantu kuba bagwa hasi bitewe n'impanuka. Hepfo y'icyo kiraro haragaragara imirima irimo imyaka itandukanye.

Icyapa cyanditsweho ngo Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Gatunda, Akagari ka Nyamirembe, Umudugudu wa Kajevuba, igicumbi cy'itorero ry'Umudugudu, iki cyapa kandi hariho indangagaciro ndetse na kirazira.

Inyubako zitandukanye zifite amabarasa, hari imihanda ijya ahantu hatandukanye iri muri izo nyubako, hari imirima iri hirya y'izo nyubako, ndetse muri iyo mihanda harimo imodoka.

Ibikorwa by'iterambere bitandukanye, hari ahantu bakinira umupira w'amaguru, n'aho bakorera inyito zitandukanye, n'ahantu abantu baba bicaye bari gufana abakinnyi.

Inyubako iteye irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, isakaje amabati y'ubururu, iyi nyubako kandi ikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Inzu iriho ibendera ry'igihugu, hari imoda, hakikijwe n'ibiti hirya y'aho, hari indi nzu igaragara ku ruhande, bigaragara ko hakorerwamo imirimo y'iterambere.

Inzu iteye irangi ry'ubururu hanze y'iyo nzu hari intebe yicayeho umu mama ndetse uhetse umwana. Kuri iyi nzu kandi handitsweho ngo gira ubuzima, birasa naho ari kwa muganga aho batanga ubufasha ku buzima bwa muntu.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ndetse isakaje amabati y'ubururu ifite ibigega bibiri by'amazi, iyi nyubako kandi iri hafi y'umuhanda w'igitaka, hirya y'iyi nyubako hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye.

Umuhanda mugari wa kaburimbo unyuramo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye ndetse n'abagenzi bagendesha amaguru. Hahagazemo abagabo, muri abagabo harimo uwambaye imyenda ya polisi y'u Rwanda. Hirya yaho kandi hari inyubako zitandukanye ndetse zikikijwe n'ibiti.

Inyubako ziri mu gipangu, icyo gipangu ku muryango hari amagambo yanditseho ngo ''urugo mbonezamikurire y'abana bato karama''.

Umuhanda ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, hirya y'uyu muhanda hari inyubako zigaragara nk'amashuri kandi hafi y'aho hari amapoto ariho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu nshe zitandukanye.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu, kuri uwo muhanda hafi yaho hari inyubako zigiyen zitandukanye ndetse hari n'ibiti by'amoko atandukanye kandi hahagazemo abantu, muri abo bantu harimo umuntu umwe wambaye imyenda ya polisi y'u Rwanda.

Abana bato bicaye ku muhanda w'igitaka ndetse hepfo y'uyu muhanda hari inyubako iteye amarangi y'ubururu ndetse isakajwe n'amabati y'uburur, hari ikigega kandi gifata amazi y'imvura, hari umumama uhetse umwana birasa n'aho ari kwinjira muri iyi nyubako.

Umuhanda w'igitaka, kuri uyu muhanda kandi hari umugezi utemba, hari n'ikiraro kuri uyu muhanda, ndetse icyo kiraro hari umuntu uri kucyambukiraho. Hirya y'uyu muhanda hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye.

Umuhanda urimo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, inyuma ye hari abandi bagabo bambaye ubu pfukamunwa ndetse n'undi, ni umusirikare hirya gato yabo hari amazu yubatse ku murongo.

Inyubako zubatswe ku murongo. Hafi y'iyo nyubako kandi hari umuhanda w'igitaka uriho amarigori. Izi nyubako zirasa naho ari umudugudu.

Umuhanda ugendwamo ibinyabiziga ndetse n'abantu, muri uyu muhanda harimo imodoka zitwara ibikoresho ndetse n'izitwara abagenzi, uyu muhanda kandi ku mpande zawo hari inyubako z'amoko atandukanye birasa n'aho zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere.

Umuhanda w'igitaka kuri uwo muhanda kandi hari ikiraro cyubakishije ibyuma, harimo umuntu utwaye moto ndetse harimo n'undi muntu asa naho ari mu kazi.

Ikibuga gikorerwamo umukino w'umupira w'amaguru hari aho abaje kureba uwo mupira bicara hamwe harasakaye ahandi nago hasakaye.

Ku umuhanda w' gitaga, hari ikiraro kihubatse, kuri iki kiraro hari ibyuma birinda abantu ndetse n'ibinyabiziga guhura n'impanuka. Ndetse kuri iki kiraro hahagaze abantu benshi, hirya hari inyubako zitandukanye ndetse n'ibihingwa by'amoko atandukanye, hari kugaragaramo n'ibiti.

Ku muhanda wa kaburimbo. Kuri uyu muhanda hari amafoto y'ingagi kandi hari n'icyapa. Kuriuyu muhanda hepfo yaho hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse hahagazemo n'abantu.

Abantu bahagaze harimo aba mama n'aba papa, abamama bambaye imikenyero, hahagazemo n'umugabo wambaye imyenda ya gisirikare, bahagaze ahantu hari ubusitani.

Abantu bahagaze mu kibuga hari abandi bicaye bafite udutabo harimo abagabo bambaye imyenda y'ingabo y'u Rwanda ndetse n'abambaye imyenda ya Polisi.

Abantu bahagaze ndetse muri abo bantu harimo abambaye imyenda ya gisirikare y'u Rwanda birasa nkaho baje kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, ahantu uru rwibutso ruri hari inyubako zitandukanye ndetse zikikijwe n'ibiti.

Inyubako imbere y'iyo nyubako yicayeho abantu, imbere yabo bantu hahagaze umugabo ufite mikoro, muri abo bantu bicaye, hari uwambaye imyenda y'ingabo z'u Rwanda, hari n'uwambaye imyenda ya polisi.

Baricaye, abandi barahagaze, hari inzu ,bakikijwe n'ibiti ndetse no hirya hari indi nzu, imbere hari abandi bantu, babahagaze imbere, umusaza abakecuru babiri ndetse n'abandi bagabo babiri.

Inzu ihagazemo umugabo, wambaye umupira w'umweru w'ingabo z'u Rwanda. Hari ibendera ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yambaye ingofero y'umukara, afite mikoro isa ubururu n'umukara hagati harimo akantu ku mutuku.

Abantu baricaye, imbere yabo hari umupolisi afite mikoro bamuteze amatwi ari kuvuga, aho bicaye hari icyapa kiriho ngo: "Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Iburarasirazuba, Akarere ka Nyagatare, umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'Umunyafurika."

Abantu bari mu kibuga kinini kizitiye. Aba bantu bafite inka barasa naho bari kuyiha umuntu bari kumufasha. Hirya y'iki kibuga kandi hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse hari n'izindi nyubako.

Abantu benshi bari mu kibuga cy'igitaka, bamwe baricaye, abandi barahagaze, muri abo bantu harimo uwambaye imyenda ya polisi y'u Rwanda kandi ahantu hicaye hakikijwe n'ibiti.

Abantu bambaye imyenda ya siporo, baricaye, imbere yabo ahagaze umugabo ufite mikoro, asa n'aho arikubwira amabwiriza.

Abantu bicaye hariho abandi bahagaze imbere yabo umwe afite mikoro birasa naho aba bantu bari bavuye mu muganda bakaba bari mu kiganiro nyuma y'umuganda.

Umuhanda mugari ugendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abantu, harimo umuntu utwaye moto afite umugenzi, hepfo yaho hari amazu bigaragara ko bakoreramo ubucuruzi.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abantu, harimo umuntu utwaye ikinyabiziga muri icyo kinyabiziga harimo ibintu, hepfo y'uwo muhanda hari inyubako z'ubucuruzi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abagenzi, muri uyu muhanda harimo umuntu utwaye moto, hafi y'uyu muhanda kandi hari inzu zisa n'aho bakoreramo ibikorwa by'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto, amagare ndetse n'abagenzi bagendesha amaguru. Harimo imodoka zitwara abagenzi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, harimo imodoka itwaye abagenzi, hepfo yaho hari ahantu hahagaze abantu bamwe bafite n'imitwaro, hepfo hari amazu birasa naho akorererwamo ubucuruzi.

Umuhanda w'amapave ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka itwara abagenzi, hirya y'uwo muhanda ndetse no hino hari inyubako z'ubwoko butandukanye birasa nk'aho zikorerwamo ibikorwa by'iterambere, kandi imbere y'izo nyubako haparitseho ama moto.

Imirima irimo ibiti ndetse n'ibihingwa by'amoko atandukanye, kuri iyi mirima kandi hari akapa kanditsweho ngo Karanga, gasa n'aho kayobora abagenzi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, uyu muhanda harimo abantu babiri batwaye moto, hirya y'uyu muhanda kandi hari undi muhanda kandi hepfo y'uwo muhanda hari inyubako zikikijwe n'ibiti.

Umuhanda mugari urimo imodoka zitwara abagenzi, hahagaze abantu bamwe bari kwinjira mu modoka, abandi barahagaze.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu, harimo umuntu uri kuri moto, iruhande rwe hahagaze umumama arasa n'aho ari kumwereka ahantu agiye kandi hari inyubako ziri hafi y'uwo muhanda zikikijwe n'imiti.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo umuntu uri kuri moto ahetse ibikoresho, kandi kuri uyu muhanda hari n'inyubako z'amoko atandukanye birasa n'aho zikorerwamo igikorwa cy'ubucuruzi.

Mu muhanda munini wa kaburimbo harimo imodoka, hirya hari amazu menshi afite imiryango myinshi itandukanye, hari umutaka hicayemo umuntu utanga serivisi za MTN.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye hagendamo ndetse n'abantu. Uyu muhanda kandi urimo imodoka itwara abagenzi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abagenzi b'amaguru, muri uyu muhanda kandi harimo abantu bicaye mu kazu kubabatswe kandi nyuma y'ako kazu hari imodoka y'abagenzi, aho hafi kandi hari n'amazu y'ubwoko butandukanye.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abagenzi. Harimwo imodoka, hirya y'uwo muhanda hari inyubako, hari kandi n'abantu bahagaze hafi y'izo nyubako.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abantu, harimo imodoka itwara abagenzi, harimo n'abantu bahagaze kuri iyo modoka, hari kandi n'inyubako zikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'iterambere.

Abantu bari mu muhanda w'igitaka bamwe bikoreye amabuye abandi barimo baragenda, birasa n'aho bari mu muganda, aho bari kuwukorera kandi hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye kandi hari n'inyubako zituyemo abantu.

Mu muhanda w'igitaka, muri uyu muhanda harimo abantu barimo guterura amabuye, muri abo bantu harimo umugabo wambaye imyenda ya Polisi y'u Rwanda, birasa n'aho aba bantu bari mu muganda w'Igihugu.

Bamwe bafite amasuka, abandi bafite ibitiyo, abandi bafite imihoro. Barasa naho bari mu muganda, kubera ko ahantu bari, bari mu bihuru, bari kubitema, ibi bidufasha kugabanya indwara zitandukanye.

Ikibuga kinini kirimo abantu benshi, aho abo bantu bahagaze, bakikijwe n'ibiti ndetse hirya y'ibyo biti hariyo ibihingwa by'amoko atandukanye.

Abantu bicaye hamwe harimo abambaye imyenda ya Polisi y'u Rwanda ndetse n'abambaye imyenda ya gisirikare, bateze amatwi barasa n'aho bari guhabwa ikiganiro.

Ikibuga kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, muri iki kibuga kandi bamwe bitwikiriye imitaka. Hari akazu kubakishijwe igitaka kari kuri iki kibuga. Ndetse hirya hari imirima irimo ibihingwa by'amoko atandukanye.

Abantu bari gukora ibikorwa bitandukanye harimo abafashe amasuka ndetse hari n'abikoreye amabuye, aho bari gukorera ibyo bikorwa kandi hari inyubako, inyuma y'izo nyubako hari umurima munini w'urutoki rwinshi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abantu. Harimo abantu barasa n'aho bari muri siporo. Uyu muhanda ukikijwe n'ishyamba ririmo ibiti bitandukanye.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, harimo abantu bambaye imyenda y'imikino, barasa naho bari gukina, kuri iki kibuga kandi hari inyubako, abantu baje kureba umupira bicaramo.

Mu kibuga k'igitaka harimo abakinnyi b'umupira w'amaguru, ndetse bari gukina hari kandi n'abandi bantu bari kureba uyu mukino, hirya yabo hari inyubako z'amatafari ahiye ndetse zikikijwe n'ibiti.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru muri iki kibuga hari abantu barimo bamwe bari kugenda abandi barahagaze, birasa nkaho aba bantu bari kwitegura gukina.

Ikibuga gikorerwamo umukino w'amaguru, harimo abantu babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umwe wambaye imyenda y'umuhondo, hirya y'iki kibuga kandi hari n'imirima.

Ikibuga k'igitaka gikinirwamo umupira w'amaguru, muri iki kibuga harimo abana bari gukina umupira kandi hirya yacyo hari imirima irimo ibimera bitandukanye.

Ikibuga harimo abantu bari gukina umupira w'amaguru, umwe yambaye imyenda isa umuhondo undi yambaye imyenda isa ubururu, hirya yabo mu kibuga hari umuhanda w'igitaka.

Aba bakobwa bari mukibuga, bambaye imyenda itandukanye ya siporo, bari gukina umupira w'amaguru, icyo kibuga hari umuhanda ndetse ngewe hirya y'uyu muhanda hari n'umurima urimo amaterasi.

Ikibuga cy'abakinnyi b'umupira w'amaguru, harimo abakinnyi bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'iy'ubururu. Hirya yaho hari umurima urimo amaterasi ndetse hirya y'uwo murima hari inyubako z'amoko atandukanye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, harimo umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'amasogisi y'umukara n'inkweto zisize igitaka, hirya hari undi wambaye imyenda y'umuhondo n'amasogisi y'umukara, hirya y'aho hari urusengero ndetse n'ibindi bikorwa remezo.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru. Muri iki kibuga hahagazemo umumama ndetse n'umupapa, hirya yacyo hari imirima irimo ibyatsi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru muri iki kibuga harimo abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru kandi hirya y'aho hari igipangu, inyuma y'icyo gipangu hari ibiti bikikije icyi gipangu.

ikibuga cy'umupira wamaguru, muri iki kibuga harimo abantu babiri bambaye imyenda y'ubururu, umwe muribo yambaye imyenda y'umuhondo, hafi y'iki kibuga kandi hari imirima irimo ibyatsi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abakinnyi bambaye imyenda ya siporo, harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abambaye imyenda y'umuhondo. Kuri iki kibuga kandi hari inyubako.

Ikibuga cy'igitaka kirimo abakinnyi, bari gukina umupira w'amaguru, hirya y'icyo kibuga hari umurima kandi nanone hirya y'uwo murima hari inyubako zigiye zitandukanye.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, imbere hari umuntu uri kubereka ibyo bakora, inyuma y'aho hari ikibuga cyubatse kirimo abantu basa n'aho bari gukina umupira w'amaguru.

Abantu bambaye impuzankano zitandukanye bahagaze mu kibuga aho bahagaze hari umusirikare wo hagati yabo ndetse n'umupolisi, hirya y'aho y'icyo kibuga hari ibiti byinshi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, muri iki kibuga harimo abantu bari gukina umupira w'amaguru, hirya y'icyo kibuga hari imirima itandukanye irimo ibihingwa.

Abantu bafite icyapa cyanditseho ngo Nyagatare disitirikiti Umurenge Kagame Cup, muri abo bantu kandi harimo ufashe umupira, kandi hirya hari indi mipira ndetse hari n'igikombe kigaragaza insinzi.

Abana benshi harimo abambaye imyenda y'ishuri, harimo n'abandi batambaye imyenda y'ishuri, bafite udukapu birasa n'aho bari bavuye ku ishuri, abandi bari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu bari mu kibuga gikorerwamo siporo n'imikino itandukanye y'umupira, hari intebe zo kwicara, abantu bicaramo iyo baje kureba abari gukora siporo cyangwa se bari gukina umupira.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru harimo abagabo bambaye imyenda itandukanye bari gukina umupira w'amaguru bamwe bambaye imyenda y'ubururu harimo n'umwe wambaye imyenda y'umuhondo.

Abantu bambaye imyenda ya siporo, bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, birasa naho aba bantu, bari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yaho kandi hicayeho abandi bantu, barimo barareba ibyo bakora.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, iki kibuga kirimo abakinnyi bambaye impuzankano, hagati yabo harimo uwambaye imyenda y'umutuku itandukanye n'iy'abandi, hirya y'iki kibuga kandi hariho imirima.

Abantu benshi bambaye imyenda ya siporo, bari mukibuga cy'umupira wamaguruga, hirya y'icyo kibuga hari imirima ndetse hirya y'iyo mirima hari inyubako zitandukanye, hari n'ibiti bikikije ayo mazu.

Abantu batatu bahagaze bafite icyapa cyanditsweho ngo ''nyagatare district umurenge Kagame cup''. muri abo bantu, umwe yambaye imyenda y'umukino kandi afite n'umupira mu ntoki, abandi babiri bafashe ku gikombe kigaragaza intsinzi.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari mu muhanda wa kaburimbo birasa n'aho aba bantu bari mu myitozo ngororamubiri, kuri uyu muhanda kandi hari n'inyubako bisa nk'aho zikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako yicayemo abantu, birasa n'aho aba bantu bicayemo bari kureba umupira mu kibuga, hicaramo abantu iyo bari kureba umupira ndetse n'ibindi bintu bishimishije, rimwe na rimwe hakorerwamo inama.

Umuhanda wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye: moto, ama modoka ndetse n'abantu. Hirya y'umuhanda hari inyubako z'amoko atandukanye, akorerwamo ibikorwa by'iterambere.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga n'abantu; hariho rigori, hariho inzira ijya mu gipangu, igipangu cyubakishijwe indabo.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye imodoka, moto ndetse n'abantu. Umuhanda kandi hirya yawo hari imirima irimo ibihingwa by'amoko atandukanye.

Umuhanda wigitaka ugendwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga, uy muhanda harimo umugabo uri kuvugira kuri telefone, ndetse hari n'umurima urimo ibihingwa bitandukanye.

Umuhanda wa mapave, uyu muhanda ugaragaza ko ari inzira abagenzi banyuramo bagenda n'amaguru ibinyabiziga bica mu muhanda wa kaburimbo utari uyu w'amapave.

Umuhanda mugari w'igitaka, haparitsemo imodoka itwara abagenzi n'abantu bahagaze hafi y'iyo modoka, hirya hari inzu ikikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, harimo imodoka ntoya. Hirya yawo hari umurima, hagati kandi muri uwo muhanda harimo ubusitani.

Mu muhanda mugari wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye. Hari kandi n'aho abagenzi bagendesha amaguru banyura kandi hari n'inyubako, zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi zikikijwe n'ibiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ugendwamo ibinyabiziga ndetse n'abantu. Ku mpande z'uyu muhanda, hari amazu atandukanye, amwe birasa n'kaho akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, andi akaba atuwemo n'abantu.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abagenzi b'amaguru, uyu muhanda kandi hirya yawo hari imodoka zihaparitse kandi hahagaze abantu hafi y'izo modoka.

Umuhanda wa mapave, ugendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu, kuri uwo muhanda kandi hari inyubako nyinshi zirasa n'aho zikorerwamo ubucuruzi, hanze y'izo nyubako hari intebe ndetse n'utuzu dutangirwamo serivisi zigiye zitandukanye.